Umwana w'umukobwa wambaye inkweto y'umukara, ipantaro y'umukara, n'agapira gaciye amaboko k'ubururu bwijimye, hirya ye gato hari imodoka y'umweru, afashe ku cyuma kivoma amazi, arimo aravomera abana bato bane, mu tubido dutoya.

Icyumba babikamo amaraso baba bakozeho ubushakashatsi ndetse banasuzumye uburwayi bw'abarwayi mu buryo bwo kurinda amaraso neza, ndetse birinda kuvanga ibyo basuzumye n'imiti bibitswe ahantu habugenewe.

Umugabo w'igikara wambaye agapira gaciye amaboko, uri kunywa amazi ari mu icupa ry'ubururu afatishije ukuboko kw'ibumoso, ndetse bigaragara ko ari ku rugendo ahetse agakapu k'umuhondo.